Abayobozi bicaye mu nama n'umuyobozi wa polisi harimo n'abandi bo mu nzego zigiye zitandukanye bari kwiga ku kibazo runaka cyangwa se ku kindi kintu .

Umugabo ufite indangururamajwi ku ruhande rwe harundi wambaye umupira w'umuhondo ndetse inyuma yabo hari n'abandi biragaragara yuko ari nk'inama barimo yerekeranye n'ibyo bakora ariko niby'imipira y'amaboko.

Abantu batatu abagore babiri n'umusore umwe bicaye umwe wo hagati afite indangururamajwi, ameze nk'uri gutanga igitekerezo bicaye bameze nk'abantu bari mu nama, buri wese afite ikayi n'ikaramu ndetse imbere yabo hari amacupa y'amazi na telefone zabo.

Ababyeyi batatu bose bafite ikaramu mu ntoki, imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse bafite n'amakayi bigaragara ko imbere yabo hari umuntu bari kwitegereza uri kubabwira kubera yuko biragaragara ko bitegereza umuntu ubari imbere uri kubabwira.

Abantu bicaye barebana mu ruziga, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umukara umeze nk'uri kubakoresha amahugurwa, kuko abantu bicaye nk'abantu bari mu mahugurwa bose bafite amakaramu bari kwandika ni nk'ibintu runaka bari kwigaho.

Abantu benshi cyane mu nzego zitandukanye; abagore, abagabo, urubyiruko bahagaze bakoze uruziga, ndetse nyuma yabo hari amamodoka menshi cyane, biragaragara ko ari igikorwa cyahabereye, ntabwo ndi kumenya icya aricyo, ariko bameze nk'abari gukora inama.

Abantu bambaye imipira y’ubururu, imbere yabo hari abantu batatu bameze nk’abayobozi. Umwe ndi kubona ari umuyobozi w’idini runaka, ndetse hagati harimo umugore ntazi icyo ashinzwe. Ndetse kurundi ruhande hari umukobwa usa nk’ushinzwe ibintu by’umutekano, ndetse bakaba bizihiwe bari gukoma mu mashyi.

Icyumba k'inama kirimo abantu bagera kuri cumi na babiri, bose bambaye udupfukamunwa, bameze nk'abantu bari bari mu nama, bari kwigaga ku bibazo bigendanye n'ibyo barimo kugira ngo babashe kubona umuti wabyo, bakaba bari bari gufata ifoto, inama birasa nk'aho yarirangiye, buri imbere y'umuntu hari ibikombe bigiye bitandukanye ndetse bafite na

Abantu bicaye muri tente bambaye imipira isa n'icunga, hari umubyeyi wicaye imbere ku ntebe itandukanye n'izo abandi bicayeho bigaragara ko ari nk'umuyobozi ndetse biragaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubabwira kubera yuko bose bari kumureba.

Harimo abagabo batatu, imbere yabo hari hari amazi yo kunywa ndetse n'umuti wo gukaraba intoki biragaragara yuko bari mu nama, imbere ya hari hari igikarita gihari cyanditseho nubwo ntari kumenya neza ibyanditseho gusa biragaragara ko bari mu nama kugira ngo bakemure'ikibazo runaka cyangwa se ku iterambere ry'ibyo bakora.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Umugabo wambaye karuvati y'umutuku n'ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, afite indangururamajwi akaba yambaye impeta ebyiri mu ntoki ku maboko yombi, yambaye n'isaha akaba yicaye ameze nk'umuntu uyoboye inama, akaba ari kubwira abayitabiriye.

Abantu bicaye mu nama umwe afite indangururamajwi, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bafite amakayi n'amakaramu na telefone, biragaragara yuko bari mu nama, hari uyu nguyu ufite indangururamajwi akaba ari gutanga igitekerezo, ku byo bari bari kwigaho,...

Ni umugabo umeze nk'uri gutanga ikiganiro, imbere ye hari amacupa atatu y'amazi ndetse bari muri gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi, imbere ye hari indangururamajwi zigiye zitandukanye bisa nk'aho ari kumwe n'abanyamakuru bakaba bari kugirana ikiganiro.

Abantu barenga mirongo itanu, bicaye bameze nk'abari mu mahugurwa, buri wese afite ikaramu n'ikayi, bari mu mahugurwa nkuko turi kubibona kandi ni ingeri zose: abagore, abakobwa, abasaza abakecuru ndetse n'abagabo bakuze, n'abasore bose bitabiriye amahugurwa.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru imbere y'abo hari amacupa y'amazi ndetse imbere y'abo hari umugore uhagaze usa nk'uri kubasobanurira, hari n'undi mugabo umeze nk'uri mu bindi bintu bitandukanye ariko nawe ari kumwe n'abo bantu, imbere y'abo hari mudasobwa iri kubereka ibyo bari kuganiraho.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama ndetse hamanitse icyapa kiranga ibiri kuhabera, byabaye ku itariki esheshatu na zirindwi bibiri na makumyabiri na kane, bambaye imyenda isa mu ibara ry'ubururu bose ndetse imbere yabo hahagaze umugore afite indangururamajwi uri kubabwira icyabateranyije hariya.

Abagabo barindwi n'umugore umwe bicaye nk'abantu bari mu nama, imbere ya buri umwe hari icupa ry'amazi ndetse hari n'indangururamajwi, mu gihe agize igitekerezo agomba gutanga, akoresheje inda

Umugabo ahagaze imbere ameze nk'uri gusoma amatangazo cyangwa se ari kuvuga imbwiruhame hirya ye hari umugabo n'umugore bicaye ku ntebe umugabo ameze nk'uri gusoma umugore yifu yicaye yipfumbase.

Ni abantu bicaye bagiye batandukanye benshi harimo abasore, abakobwa, abagabo n'abagore imbere yabo hari amacupa y'amazi bigaragara yuko bari mu mahugurwa.

Icyumba k'inama kicayemo abanyeshuri, abarimu ndetse umuyobozi wabo akaba ahagaze ariko kubaganiriza ari kubaganiza kuri bimwe mu byateza imbere ikigo cyabo. Icyatuma imyigire y'abana babo igenda neza ndetse n'imitsindire yabo ikajya hejuru cyane.

Abayobozi b'inzego zigiye zitandukanye harimo n'iz'umutekano haba umukuru wa police ndetse n'uw'abasirikare harimo abayobozi bagiye batandukanye bicaye bigaragara ko bari mu nama kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo.

Abantu bicaye, abantu bagera mu icumi bicaye barebana bigaragara yuko bishimye bari kuganira kuri gahunda ya Kigali ikeye bari kuganira uburyo bazabinoza neza ku buryo Kigali yaza ikeye neza, bose bafite amakaramu hari indangururamajwi imbere yabo kandi urabona yuko babyishimiye cyane.

Agapapuro k'ibara ry'umuhondo kandikishijwemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kerekana uburyo bwo kwishyura amafaranga uyanyujije kuri Emutiyene mu momopeyi, bifasha umucuruzi cyangwa se umukiriya kugira ngo abashe gukorana ubucuruzi.

Icyumba cy'inama cyicayemo abagabo n'abagore bari mu ngero zitandukanye, urubyiruko, abasaza n'abakecuru, ndetse n'abagore bakuze, buri wese afite icupa ry'amazi. Ndetse imbere ya bo hari indangururamajwi, bivuze ko umuntu ashobora kugira igitekerezo atanga muri iyi nama yabasha kukiyibagezaho bitamugoye.

Abantu benshi abagabo n'abagore bicaye mu nama birasa nk'abari mu nama mu cyumba cy'inama, buri wese bari kwicara barebana ,buri umwe wese imbere ye hari indangururamajwi, amazi ,buri wese afite ikayi n'ikaramu basa nk'aho hari imirongo y'ibyigwa bari kwigaho ndetse muri bamwe murabo bafite mudasobwa.

Ni inyubako harimo ahantu abantu banyura ariko hasakaye, hari abantu hari abasore babiri umwe ahetse igikapu undi ari kuri telefone; hari undi ubari inyuma, hari umubyeyi wicaye ku ntebe, hari n'abandi bari aho bavomera; biragaragara ko aho hantu hashobora kuba ari kwa muganga mu bitaro.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu bo mu ngeri zitandukanye, abera n'abirabura, basaza n'abakecuru ndetse n'abagore n'abagabo, bose imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse hari n'impapuro bigaragara yuko ibintu barimo, inama barimo igombera kwandika, harimo ibintu bagomba kwandika kubera ariko ko bose bagiye bafite impapuro imbere yabo.

Hari abantu bicaye ku ntebe abandi bicaye imbere harimo abayobozi hanyuma polisi hari abadaso, biragaragara yuko abari mu nama y'abaturage bakaba bazanye n'abayobozi b'umutekano bitewe n'uko muri ako gace kabo habayemo umutekano muke kubera harimo inzego z'umutekano ubwo ni byo bari kwigaho muri iyi nama.

Abantu bagera mu icumi bicaye nk'abari mu nama, bose bambaye amakarita y'akazi ndetse bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubaganiriza kubera yuko bose bicaye bamureba ndetse arabona yuko buri wese yitaye ku byo ari kureba.

Abantu batandatu bicaye bameze nkabari mu nama mbere yaho hari mudasobwa nini bari kureberaho abagore babiri n'abagabo bane.

Abagore babiri bicaye, imbere yabo hari amacupa y'amazi, telefone, undi afite indangururamajwi, afite n'ikayi imbere ye, ku rundi ruhande hari undi bicaranye wambaye agatambaro mu ijosi, nawe imbere ye hari amazi na telefone, n'ikayi.

Abantu bicaye mu nama abagore babiri n'abagabo babiri, ndetse hari intebe zirimo zitacayemo abantu, inyuma yabo bigaragara yuko hari inama barimo y'abayobozi cyangwa se abakozi b'ikigo runaka, bakaba bari bafite ikaramu n'ikayi bari kwandika ibyo bagiye kuvugaho.

Ni abantu bafite umubare urenga icumi bicaye buri wese imbere hari umutobe icupa ry'umutobe, ndetse imbere hari n'indangururamajwi bafite amakayi n'amakaramu, bameze nk'abantu bari mu nama bari kwiga ku kintu runaka cyangwa amahugurwa runaka, kubera yuko imbere yabo hari mudasobwa niyo bari kureberaho.

Umuporisi uhagararanye n'umugore ufite terefone mu ntoki, ufite isakoshi y'umutuku yambaye isaha ari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira imbere hejuru handitseho Rwanda ndetse n'ikote ry'umukara asa nk'uri gukoma amashyi, bose inyuma yabo hari abana babiri, imbere biragaragara yuko hari umuntu bari kwitegereza.

Icyapa cy'ikibuga cy'indege cy'u Rwanda gitwara imizigo muri Afurika, mu Burayi, muri Aziya ndetse no mu burasirazuba bwo hagati.

Ni icyapa cyamamaza cyerekana kiragaragara ko ari icyo mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, bari kubwira abakiriya babo ko bagomba kuza kwishyura imisoro, barabura umunsi umwe gusa kugira ngo batangire kujya mu bihano.

Ni mudasobwa iri kwinjira muri rura mu buryo wakora konti yawe amazina nimero ya telefone ubundi ukinjira kugira ngo ubashe kumenya ibikorwa bikorerwa muri rura, ukaba wabagana bakagufasha.

Garagaza impano yawe utsindire miliyoni. Harimo gushushanya, kuririmba ubusizi, kubyina, gusetsa n'izindi mpano. Ukeneye ibindi bisobanuro wabandikira kuri telefone zikurikira, itariki ntirengwa ni tariki umunani z'ukwa cumi na kumwe, biri na makumya na rimwe.

Inzu ikinguye imiryango hariho, handitseho irembo hariho ikirango k'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ndetse imbere hariyo akabati hariho etajeri irimo ibikoresho bigiye, bitandukanye bigaragara yuko ari ahantu hakorerwa ibintu byerekeranye n'irembo.

Umukobwa wambaye amaherena ufite umusatsi muremure afite telefone icometse imbere ye hari mudasobwa ni nkibi ari guhuza terefone na mudasobwa ye.

Ni imodoka ndende itwara abagenzi muri rusange iri gutambuka mumuhanda, ifite ibara ry'ubururu hasi rikurikirana n'iry'umweru agahondo gake ndetse n'ibirahuri by'umukara iruhande rw'umuhanda hari gutambuka umuntu.

Ahantu hicaye abantu benshi bagiye batandukanye, buri wese ahugiye kuri telefone ye ndetse na mudasobwa. Biragaragara yuko ahantu bari hari murandasi kubera ko buri wese ahugiye ku gikoresho kiiwe, mudasobwa cyangwa telefoni buri wese ari muri gahunda ziwe kubera ko uko bigaragara nta n'umwe uri kumwe n'undi.

Ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako biteye ibiti, zeru gatanu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe guturwamo n'ibice bitatu ku ijana by'agaciro ku isoko ry'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe ubucuruzi zeru n'igice kimwe ku ijana by'agaciro k'isoko ry'inyubako n'ikibanza byagenewe inyubako.

Irembo byikorere ni bari kwamamaza irembo uburyo wakoresha irembo mu bintu bitandukanye ushaka indangamuntu, ushaka icyemezo cy'amavuko, ushaka icyemezo cy'ingaragu cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. ushaka, ushaka uruhushya rw'ikinyabiziga cyangwa ushaka uruhushya rwo kuba wasohoka.

Ni umuganga ufite urushinge ari gutera umuntu ariko kuvuga ngo iminsi ibiri niyo isigaye muriteguye, nicyo cyanditseho.

Icyapa cy'irembo cyerekana y'uko ahantu hakorerwa irembo, hicaye umuntu wambaye umwenda w'akazi wa MTN, inyuma ye hari igipangu gifite umuryango w'icyatsi.

Mudasobwa ifunguye yanditseho irembo, harimo ahantu bashakishiriza ikintu waba ukeneye kureba ku irembo haba ari icyemezo cy'amavuko cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, bari kwamamaza uburyo bakoresha urubuga rw'irembo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru muremure, uhagararanye n'umugore ufite imisatsi ifunze bari kureba imitako icuruzwa.

Mudasobwa ziteretse ku meza nyinshi buri yose imbere yayo haru umuntu yicaye, biragaragara ko ari inzu y'ikoranabuhanga irimo mudasobwa nyinshi zihagije, igaragara yuko ari mu kigo cy'ishuri abanyeshuri baje kwiga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga.

Abasore babiri bicaye umwe yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingofero, yicaranye n'undi wambaye umupira w'umweru bigaragara ko ari kumuhugura ku bintu runaka imbere hari mudasobwa, inyuma ye hari n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Ibiro byicayemo abantu babiri harimo abafite amatelefoni atandukanye, hari n'ufite imashini bariya bantu bakoresha bakata amatike, biragaragara ko hari na tike iri gusohoka agiye guhereza undi.

Iyi ni pariki yo mu birunga, hari ibara ry'icyatsi cyane bigaragara ko hagwa imvura nyinshi nta zuba rikunda kuba rihari, harimo ahantu abantu baba bicaye bagiye nko gutembererayo gusura ingagi ndetse n'ibindi, mu byanya nk'ibyanya nyaburanga byinjiza amadovize mu Rwanda.

Imodoka iba iparitse imbere yayo hari imiryango igera muri itatu igaragara ko ari iy'ubucuruzi hakorerwa ubucuruzi butandukanye hari icyapa cyanditseho irembo hari intebe.

Abagabo bane bahagaze ahantu hamwe inyuma yabo hari undi mugabo, ndetse biragaragara ko hano ari ahantu ari ahantu haba ingufu z'amashanyarazi, hari ipironi rirerire cyane, hari inzu zifunze bigaragara ko ari ahantu haba ikusanyirizo z'ingufu z'amashanyarazi ariho bikorerwa.

Abantu bambaye amajire abagabo bane bambaye amaje bambaye n'amagofero bigaragara ko hantu ari ahantu haba ingufu z'amashanyarazi hashobora kuba habaye ikibazo kubera yuko ari benshi kandi urabona yuko babyitayeho cyane bashobora kuba habonetse ikibazo bakaba aricyo baje gukemura.

Mu ishuri riri muri mudasobwa, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano umweru ndetse n'umukara, buri wese afite mudasobwa imbere ye, biragaragara yuko bari kwiga isomo rya mudasobwa kubera y'uko buri wese urabona yuko aribyo ahugiyemo.

Icyapa cyanditseho noteri wikorera munsi hari ikindi cyanditseho irembo hari abana babiri b'abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye bavuye kwiga hari umukobwa usa nk'ubabategereje ndetse mu muhanda harimomo.

Ahantu mu gipangu hari urugi rw'icyatsi hari umuryango wanditseho, ni ahantu hakorerwa ibintu by'irembo harimo umwana uhahagaze ku miryango, hari umusore wambaye umupira w'umweru ni jiri y'umukara n'abandi bicaye bari kuri mudasobwa bigaragaraho ko bari mu kazi.

Umuhanda urimo moto ebyiri, imbere y'aho hari abagenzi bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, imbere y'aho na none hari abagenzi.

Ni ahantu hari ikintu cyo kwicaraho kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, ku ruhande hari akandi kakuma inyuma y'inzu.

Amazu ashaje afite amabati yashaje cyane hari umunara hari insina ndetse munsi y'umunara hari ibyatsi ni ahantu hashaje cyane ubona ko hamaze imyaka myinshi cyane.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibyatsi, hari itara ryo ku muhanda ririho akantu k'uruziga ntazi ikintu gicometseho; munsi yaho hari ishyamba, hari n'umuhanda w'igitaka harimo n'umugenzi uri kugenda.

Inzu z'amatafari ahiye bigaragara yuko ziri gusenyuka, amazi akaba yarayihinduye. Hari ipoto y'amashanyarazi cyangwa se umunara, insinga zinyuranyuranamo n'amashanyarazi, hari ibiti kandi hameze nk'aho bari kuvugurura bubaka.

Umunara w'amashanyarazi hirya hari ibiti ukikijwe n'ibiti ahantu mu byatsi, ndetse biragaragara ko uri ahantu ku musozi, harasa nk'ahahanamye.

Abakozi batanu bambaye ibigofero ndetse n'amasurubeti bigaragara ko bakora mu bintu by'amashanyarazi umw' aruriye hejuru abandi bari hasi ,biragaragara ko ari nk'insinga bari guterateranya kugira ngo haboneke amashanyarazi.

ipoto ry'amashanyarazi, harimo n'insinga z'amashanyarazi, hari icyapa, bari kureba imibare yacyo neza, hari umugabo wambaye umupira uri ku igare ari kugenda.

Umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ikirere kirimo ibicu by'umweru ndetse n'ikindi gisa ubururu kiza cyane bisa neza. Amashusho agaragaza uburyo ikirere gihagaze.

Iminara y'insinga z'amashanyarazi ibiri yegeranye hariho insinga zinyuranamo ndetse hariho ikirere gisa umweru ibicu by'umweru ndetse n'ikirere gisa ubururu.

Insinga z'amashanyarazi zigenda zihererekanya, hari ikirere harimo igice cy'umweru ndetse n'ubururu, hasi ni mu muhanda hari imodoka ziri gutambuka, hari abagenzi bamwe bafite amagare abandi bari kugenda n'amaguru.

Umunara w'amashanyarazi uriho insinga zigiye zitandukanye nyuma yayo hari inyubako zishoboka ko hakorerwa ubucuruzi hirya hari umunara.

Abamotari babiri bashoreranye imbere yabo hari imodoka iparitse ku ruhande hari inyubako ndende ndetse hari imikindo imbere yabo hari ikindi giti.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Ahantu henshi hakorerwa ibintu bitandukanye bahora bashishikarizwa gukoresha iki gikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro iyo inkongi ihafashe iki gikoresho kiratabara ni byiza ko umuntu wese yakigira aho akorera.

Ni ahantu hari ibyuma bigiye bitandukanye ndetse hari abari kurira ku rwego, hari n'abantu batandukanye, abantu bagera muri batandatu, bamwe bari kurira ku rwego undi ari hejuru, n'undi nawe ari hejuru hari ibyo ari gucomeka, ahantu ubona ko hahurizwa ingufu z'amashanyarazi bakaba bari kubikoraho.

Umusore uri kuri terefone yambaye ingofero n'umupira w'umutuku inyuma ye hari ipoto ryama ry'amashanyarazi hari igipangu cy'amatafari ahiye no hirya ku rundi ruhanande hari igipangu cy'amatafari ahiye kiriho icyapa byerekana yuko hashobora kuba ari nk'ahantu banywera cyangwa barira nkuko turi kubibona.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu Rwanda.

Ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga, ibisheke, ibindi biti ntazi ukuntu bimeze, harimo insina umwembe ndetse n'akazu gatoya gashaje.

Urusinga rw'amashanyarazi ruzingazinze ruri ahantu mu byondo, hagaragara yuko haguye imvura bazirikishije imigozi, ni nk'abantu bari kumanika insinga z'amashanyarazi, bakaba bageze aha angaha imvura ikagwa bakayihashyira.

Hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro ahagaze, hepfo ye hari imodoka ziparitse, hari inyubako iriho umusaraba, bigaraga y'uko ari kwa muganga cyangwa se ari ku bantu batabara indembe.

Ahantu hanini harimo umugore ukenyeye igitenge, uteze igitambato, uri kugenda bigaragara ko ari ikintu avuye kwaka, hari nabandi baje, baje bahagana.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe, begeranye bose bari kureba imbere abandi bahagaze mu idirishya, abandi bahagaze mu muryango. Birasa nkaho hari ikintu baje kureba ahangaha cyabateranirije hano bose.

Ni inyubako harimo ahantu abantu banyura ariko hasakaye, hari abantu hari abasore babiri umwe ahetse igikapu undi ari kuri telefone; hari undi ubari inyuma, hari umubyeyi wicaye ku ntebe, hari n'abandi bari aho bavomera; biragaragara ko aho hantu hashobora kuba ari kwa muganga mu bitaro.

Ahantu hasa nk'akorerwa ibintu bitandukanye byakira abantu hari intebe abantu bicaraho baje babagana, hari umugabo ufite impapuro uhagaze ku miryango ndetse afite na anvelope mu kwaha, ahantu nari hameze nk'atangirwa ibintu runaka nko kwa muganga kubera yuko hari n'abandi bahicaye cyangwa se mu nzego z'abayobozi, bakaba baje gusaba serivisi.

Akayira gatwikiriye, harimo umuntu wambaye imyenda y'ubururu, akaba ari kugenda asatira ahantu hari abandi bantu bambaye imyenda isa n'iye ndetse hari n'abandi bambaye imyenda y'imyeru ndetse hari n'abandi bicaye, aho hantu hagiye hari intebe kuri buri muryango bigaragariye yuko ari kwa muganga, ahantu bakirira abarwayi baje kwivuza.

Umugore ufite indangururamajwi wambaye ikote riciye amaboko, imbere harimo ishati biragaragara yuko ari kuvuga imbwirwaruhame.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Abacamanza bo mu nteko ishingamategeko bambaye amakanzu y'umutuku bari kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi ndetse biragaragara yuko bari mu biro bye.

Abantu bicaye mu nama, bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, bigaragara yuko hari umuntu wicaye uhagazemo hagati asa nk'uri gutanga ikirego se cyangwa akaba ari kwiregura, baje nko kumurega, ni inama y'abaturage nkuko turi kubibona n'abayobozi babo.

Abapolisi babiri bambaye bikwije, bambaye ingofero, ndetse n'ibibarinda amasasu kubinjira, ndetse bafite n'umuntu w'umunyabyaha bamufashe mu maboko bombi, yambaye marinete bagiye kumufunga.

Icyumba cy'urukiko kirimo abantu babiri bahagaze biragaragara ko ari umwavoka ndetse n'umukiriya we w'imfungwa bose bambaye agapfukamunwa ndetse buri wese mbere ye hari indangururamajwi, hari mudasobwa, hari n'amazi bigaragara yuko bari kwiregura mu rubanza.

Umukuru w'urukiko rw'ikirenga yambaye ingofero y'umukara hariho ibara ry'umuhondo, imirongo ibiri y'amabara y'umuhondo, yambaye rinete, yambaye ikanzu y'umutuku hariho ibara ry'umweru, yambaye ishati ndetse na karuvati.

Kabuga wahigwaga kubera Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yari ari guhigwa, bari bamushyize ku rutonde rw'abantu bashakishwa, bityo bamanika ifoto ye kugira ngo umuntu wese uzamubona, ko bazajya bamuha amadolari miliyoni eshanu z'amadolari, ku muntu uzamubona. Kugira ngo abashe kuba yafatwa, haboneke ubutabera bw'ibyo yakoze.

Mu igazeti yemeza itegeko rishyashya riba ryashyizweho na perezida wa repubulika hariho ibyagendeweho ndetse n'uko bigomba kujyenda.

Umuryango w'ahantu hubakishije amabuye basize amarange y'umweru n'umukara gereza ya Muhanga.

Abagororwa bafite ibikoresho amasuka, amasuka amasahani, ibikombe, ingorofani, bavuye ahantu runaka bavuye gukora, bavuye nko gukora ibikorwa by'ubwubatsi bakaba bari gutaha mu igororero aho baba.

Imfungwa z'abagore zicaye bigaragara yuko bari mu nama bababwira, babagira inama y'uburyo bagomba kwitwara.

Abantu batanu abagabo batatu n'abagore babiri; bahagaze bameze nk'abantu bari bari mu nama bakaba bayisoje, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso; ku bw'ibyo bamaze gukora bikaba bigezweho.

Mu rukiko hari umuntu hari imfungwa hari abavoka babiri nkuko turi kubibona umwavoka umwe ari kumubwira ingingo undi ari kureba mu madosiye afite ikaramu ari kwandika ndetse n'imfungwa nkuko turi kubibona yambaye rinete.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite igitambaro cy'umweru imbere, yambaye ishati y'imirongo harimo na karuvate, akaba ari kwifotoza. Biragaragara ko ari umunyamategeko.

Mu rukiko ahicaye imfungwa zigiye zitandukanye, haragaragara ko ari nyinshi ndetse hari n'abantu bitabiriye urukiko ndetse ku ntebe z'imbere turahabonaho abacamanza ndetse bikaba bigaragara yuko baje kuburana ku byaha baregwa.

Kizimyamwoto igifunze neza iteretse ahantu ku nzu bigaragara yuko ari nk'umuntu wari uri kwerekana uko ikoreshwa akayifotora.

Hari umugabo ufite kizimyamwoto mu ntoki, yambaye inkweto ndetse n'igisarubeti cyabugenewe, n'inyuma hari izindi kizimyamwoto, imbere ye hari abanyeshuri, byashoboka ko aha ahantu habaye nk'inkongi y'umuriro, akaba ari kubigisha uko bakoresha kizimyamwoto.

Umupolisi yari ku muhanda hariho moto n'abantu bari gutambuka ndetse n'imodoka imbere y'inyubako bigaragara ko ari iy'ubucuruzi aho imodoka zitambuka ndetse n'abagenzi hari n'umupolisi uri mu kazi.

Kizimyamwoto ebyiri iy'umutuku niy'umuhondo, bigaragara ko ari ahantu zabigenewe kuba ziri.

Imodoka ya polisi ihagaze imbere y'inyubako yanditseho zigama Muhima, ni ahantu bigaragara ko ari ku muhanda haparitse imodoka, hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye.

Imodoka ya polisi iriho abapolisi batatu, hakaba hari na moto z'abo ebyiri nazo ziri kugenda, biragaragara y'uko bari mu kazi, byashoboka y'uko hari amasiganwa y'amagare cyangwa se ikindi gikorwa cyabereye mu muhanda bari kugenda bakurikirana m'uburyo bwo gucunga umutekano.

Umupolisi wambaye imyenda yo kwirinda ndetse imbere hari icupa rya gaze hari isafuriya iri kuri gaze ari kwerekana uburyo bwo kwirinda inkongi y'umuriro mu gihe utetse kuri gaze imbere ye hari abantu bari gufotora hari ibiti.

Umupira uzingazingiye ku cyuma, ndetse munsi yawo hari ikizimyamwoto; iki ni ikintu cyakwifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, mukaba mwabasha kuzimya.

Harimo abantu bambaye ingofero n'imipira byanditseho ibintu bisa , basa nk'abantu bari kubarura amajwi y'amatora kubera yuko harimo amashusho harimo ibitambaro bya biri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu n'ikirango cy'igihugu cyacu biragaragara ko bano bantu ari abantu bari kubarura amajwi y'amatora.

Ababyeyi bambaye imishanana n'abagabo bambaye amakoti bahagaze inyuma yabo hari amadapo, hari idaraapo rya Tanzaniya n'iry'u Rwanda, biragaragara yuko bari bari nko mu nama bagahita bafata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye ikote akaba yambaye n'amadarubindi, yambaye ikoti na karuvate, imbere ye hari indangururamajwi, afite n'icupa ry'amazi biragara yuko yicaye mu nama, akaba ari kumwe n'abandi ariko akaba ari we ubasha kugaragara wenyine kubera yuko ntago umuntu akora inama ari wenyine.

Inzu yateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo igitsina gore bose barahagaze barasa n'abari gukoma amashyi imbere yabo hateretse amacupa y'imitobe n'ay'amazi ndetse na telefone zabo ndetse bameze nk'abantu bari mu nama bakaba bageze mu mwanya wa morali.

Abantu bane bicaye, imbere yabo hari mudasobwa n'amacupa, bigaragara yuko bari mu nama, kubera ko umuntu wicaye imbere we arimo guseka.

Abana babiri bambaye amakote asa, karuvati n'ishati z'umweru, bari kumwe n'umubyeyi wabo wambaye ibitenge bari hagati y'amarido

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Abantu benshi cyane bari ahantu hamwe ,benshi cyane, ku buryo utabasha kumenya ngo umubare wabo ni bangahe, ariko bararenga ibihumbi bibiri ko bigaragara, hari abashinzwe umutekano bambaye ingofero zanditseho CTU, hari kubonekaho na kagame, biragaragara yuko ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza, ko abafite ibirango byanditseho FPR.

Umubyeyi wambaye rinete zifite akabara k'umweru, ufite umusatsi utari muremure cyane, yambaye umutako mu ijosi, yambaye ishati iriho ikirabyo cy'umweru iriho ikirabyo cy'umukara, yicaye ahantu yiturije.

Hari ibendera, umugabo amanitse ikiganza, imbere ye hari indangururamajwi, yambaye ikoti na karuvati, ndetse n'ishati yasokoje neza umusatsi we, biragaragara yuko ari kurahira ku nshingano runaka yaba agiye, yaba yatorewe cyangwa se yaba agiye gukora.

Umubyeyi wambaye imishanana hari ibirango, hari amamodoka menshi atandukanye, hari n'abantu bari ku murongo ndetse hejuru hariho ikirango cy'idarapo ry'u Rwanda ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi biragaragara ko aba bantu baje mu matora, bari gutora kubera yuko bari ku murongo ndetse imbere yabo hahagaze

Wakwizigamira ukoresheje Giti banki bitewe n'uko umutekano w'amafaranga wawe uba wizewe ijana ku ijana. Tandukana n'ibindi bigo by'imari bigusaba kuzana ingwate kugira biguhe inguzanyo kuko aha ntibihaba.

Hari ifoto ya Kagame yanditse mu mudugudu wa radari tuzamutora ijana kw'ijana, abantu bambaye ibitambaro bya FPR imipira, ingofero ndetse bafite n'ibyapa byanditseho FPR, biragaragara yuko umuryango wa FPR wari uri kwiyamamaza kuko bafite n'ifoto ya Paul Kagame.

Abantu benshi bambaye imipira isa icyatsi abandi bambaye umutuku abana, harimo abana urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, imbere yabo hari umuntu uri kwiyamamaza, kubera yuko hari n'amafoto ye agiye atandukanye, hari ahantu hari handitse ngo tora bivuze ko bano bantu bari kwiyamamaza mu matora.

Ni inzu y'inama ubonako ari inzu y'inama y'abayobozi bakuru bakaba bicaye mu buryo bwiza buri wese imbere hari indangururamajwi, hari amazi yo kunywa ndetse ni benshi cyane bisa nk'aho ari inama y'igihugu y'umushyikirano cyangwa se izindi nama ziba zahuje abayobozi benshi bo mu rwego rwa leta.

Umumotari uhetse umugenzi, umugenzi ahetse igikapu, iruhande rwaho hari ikimodoka kirekire gisa ibara ry'icyatsi, gitwikirije shitingi hari umugabo ufashe kwi.

Agapapuro k'umweru kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, handitseho amagambo yo mu kirimi cy'amahanga ruguru, ariko harimo n'amagambo yo mu kinyarwanda ariho nk'amazina nka perezida Paul Kgame ndetse n'andi mazina agiye atandukanye.

Imodoka y'idayihatsu iri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere yayo hakaba hari indi kamyo ifite igipine, kuruhande haparitse igare, ku ruhande rwo hepfo hakaba haparitse imodoka y'ivatire iri mu ibara ry'ubururu, zose zikaba ziri mu muhanda ziri kugenda mu muhanda bitandukanye.

Moto modoka iri mu muhanda itwaye imizigo itwikirije shitingi y'umweru, hepfo ya hari ibiti hari hazitiye nk'ahantu hari gukorerwa ubwubatsi.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati, hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati, hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo hari umusore ufite ikote ku rutugu, ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda mu ruhande rumwe n'imodoka, inyuma ye hari igare, hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka, hari ibiti by'icyatsi.

Mu muhanda urimo imodoka ebyiri z'umweru zishoranye ziri kugenda mu kerekezo kimwe imodoka zo mubwoko bw'izitwara abagenzi mu buryo bwihariye butari rusange, imodoka itarenza abantu batanu.

Hari uduti tw'icyatsi n'ibyatsi, hari motomodoka itwaye imizigo harimo n'umushoferi wayo, ku ruhande rwayo hari imodoka y'umukara inyuma harindi y'umweru, inyuma y'aho bigaragara ko hari abantu benshi cyane hameze nk'ahantu hakorerwa ubusudirizi.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zikaba ziparitse ahantu abagenzi binjiriramo, kugira ngo babashe kujya aho bagiye, zikaba ziparitse zitegereje abagenzi kugira ngo zitangire akazi.

Ni imodoka ndende itwara abagenzi muri rusange iri gutambuka mumuhanda, ifite ibara ry'ubururu hasi rikurikirana n'iry'umweru agahondo gake ndetse n'ibirahuri by'umukara iruhande rw'umuhanda hari gutambuka umuntu.

Mu muhanda hari akamodoka gatwaye ibyuma, hari imodoka nini itwara abagenzi iri mu rundi ruhande, hari abamotari batwaraye abagenzi hari abagenzi bari kuza bari kugenda, harimo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inzu mu ibara ry'umweru, umukara, umutuku ibirahure bifunguye inzugi zifunguye hariho ibyapa byamamaza mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ikinyabiziga gifite ibara ry'umuntu kiri kunyura imbere.

Inzu icuruza ibiribwa n'ibinyobwa harimo amata ya mukamira, hakaba harimo firigo ikonjesha ibyo kunywa twaramo umuntu w'umukiriya umaze kuyifata ibyo amaze kurya no kunywa agiye kwishyura yambaye ishati y'umakara rukara.

Umuhanda urimo moto ebyiri n'imodoka itwara imizigo, hirya ye hari umugenzi hari umuntu uri kugenda ndetse hari n'undi wikoreye imifuka ibiri ahetse n'igikapu.

Motomodoka irimo umushoferi wayo nta mizigo itwaye biragaragara y'uko aribwo ari kujya mu kazi, hari moto iri imbere iriri kuza, k'urundi ruhande hari umugabo wambaye ikoti ry'umuhondo yambaye n'ishati y'ubururu.

Amagare abiri ari kugenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka nini itwara abagenzi yo mu ibara ry'umutuku ku rundi ruhande hepfo yayo hari undi mugabo uri gusunika igare ndetse imbere ye hari abantu babiri hepfo hari hari urugo ruzitije supaninete y'icyatsi kibisi hari ibiti by'inganzamarumbo ubona ko byageze no mu muhanda byiza cyane.

Ikamyo ifite isa umweruru ifite icy'inyuma cy'umuhondo hepfo yayo ha hari umumotari uhetse umugenzi, imbere ya hari rigori ku rundi ruhande hari ibigori abantu bashobora kuba bagwamo, hari ibiti ndetse hari ahantu hari amasupanete hubakeshaje supanete nk'ahantu hari kubakwa.

Abantu, imodoka, inzu ,nsinga, ipoto, kaburimbo, imitaka ibiri, n'abagenti ba emutiyeni.

Imodoka eshatu zitwara abagenzi zigiye zitandukanye hari nini n'intoya ndetse hari n'abagenzi bari kugenda basa nk'abari kujya kwinjira mu modoka kugira nabo babashe kujya aho bagiye.

Ikamyo itwara peteroli, hirya yayo hari moto modoka, inyuma yayo hari moto nyinshi nyinshi, hari ikiraro hari ibiti by'icyatsi, ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo aho imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse hepfo yaho hari ahantu hubakishijwe supaneteye isa icyatsi, hari ibiti ndetse imbere yaho hakorerwa igikorwa cy'ubwubatsi, hariyo abantu benshi abubatsi ndetse n'abahereza babo.

Imodoka, yanditseho kamuru n'ikamyo inyuma yayo hari y'umukara hiriya hari rava imbere yayo hari igare hari n'umumotari ndetse abantu bari kundi ruhande rw'abanyamaguru hari imodoka zipakiye zihagaze.

Imodoka y'umweru isize amarangi ku birahure ndetse ikaba itwikirije shitingi y'icyatsi kibisi, imbere yaho hakaba hari imifuka myinshi cyane ntazi ibintu biyirimo ndetse hakaba hari n'abantu bayihagaze imbere basa nk'abagiye kuyipakira cyangwa se bakaba bari,

Imodoka ipakiye harimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero y'amabara umuhondo, icyatsi, umutuku n'umukara, ku ruhande hari umukobwa uhetse agakapu ndetse yambaye ijipo itukura n'agapira kajya umutuku, ku rundi ruhande hari umumotari utwaye umugenzi ufite ipine.

Imodoka itwara abagenzi ndetse abagenzi barimo iri kugenda izamuka, ku ruhande rwayo hepfo hari umumotari wambaye ingofero y'umutuku ndetse afite n'indi yo mu ibara ry'ubururu idafite umugenzi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye atari rusange ika ibarizwa muri kampanyi yitwa Yego itwara abagenzi iparitse imeze nk'itegereje abakiriya ndetse inyuma yayo hari hari abantu benshi cyane bisa nkaho hashobora kuba hari nk'isoko cyangwa se iduka.

Umuhanda, hepfo y'umuhanda hari ahantu hari kubakwa, abantu bahagaze hejuru kuri supanete y'ubururu. Hari umumotari udatwaye umugenzi, hari umumotari utwaye umugenzi ufite umwana mu ntoki, hari imodoka iri kumanuka itarimo abagenzi.

Hari imodoka itwara abagenzi iriya nini harimo abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye hari umukarani uri imbere inyuma ye hari umubyeyi yiteze igitambaro, uhetse igikapu cy'umukara, ndetse ufite n'akandi mu ntoki ku rundi ruhande hari umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu harimo n'umugabo utagaragara neza.

Ikibuga cy'ibitaka giciyemo imirongo y'umweru gifite n'inshundura hagati gikinirwaho umukino w'amaboko witwa tenisi hakurya hari aho abafana bicara, hakurya hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu bamwe bamanuka abandi bazamuka abandi bicaye, ndetse hari inyubako ndende hari ibyapa bigiye bitandukanye hari ibiti by'icyatsi harimo imikindo.

Inkuru igaragaza abantu bari kwamamaza umukandida dogiteri Habineza furaka mu matora ya perezida w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Ahantu harasa nko mu kibuga cy'umupira harambuye, ruguru y'aho hari ahantu hameze nk'ahantu bicara ndetse hari amazu, hari ahantu hatwikiriye ku buryo n'imvura iguye abantu bajya kugama, inyuma y'aho hari amatara yo ku mihanda, hari amashyamba ni ahantu hasa neza cyane h'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo unyuyuramo imodoka, ndetse n'abantu hepfo yawo hari, umuhanda uri mu ibara ry'icyatsi unyuramo abanyamaguru bari gukora siporo, hepfo yabo hari imikindo hari n'inyubako zigiye zitandukanye n'ibindi byatsi byakuze cyane.

Inzu inzu nini isize umucanga ndetse hari n'inzu ishaje ntoya, nyuma yaho hari ishyamba n'icyapa cyanditseho akanyaru, huye, muhanga; hariho icyapa kiriho akantu kazamuye ndetse n'ikindi gitambika hariho Ruhango, Kinazi

Icyapa cyo mu muhanda, kirimo igare, icyapa cy'umutuku harimo agakoni, bishatse kuvuga yuko aho hantu igare ritemerewe kuhanyura.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Imodoka yo mu bwoko bw bw'ivatiri ikora akazi ko gutwara abagenzi, isize ibara ry'umweru n'umuhondo iri imuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'ibumoso hari abagore babiri bari gutambuka bambaye utuntu mu mutwe, hirya yabo hari umutaka wa emutiyene ucururizwamo amayinite.

Icyapa cy'umuvuduko wa mirongo itandatu munsi yacyo hari abagabo batatu bari kumanika ikindi cyerekana yuko hari igifata amashusho y'umuvuduko.

Ibyapa bitatu byerekana y'uko ahantu ari ku mupaka. Ni ku mupaka wa Kongo aho hari icyapa cyanditseho umupaka wa Kongo ndetse na Kongo mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'ahanditse urugendo rwiza mu ibara ry'umweru ku cyapa cy'amabara y'umweru hari abantu bari kugenda...

Icyapa, kirimo akazeru gaciyemo umurongo harimo inyuguti ya P, yerekana aho hantu hatemerewe guparika ikinyabiziga.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu gicuritse kirimo ibara ry'umutuku n'umweru.

Icyapa kiriho inyuguti ya pa hariho n'imodoka, bivuze ko ariho imodoka zihagarara ndetse hari abagenzi bahari bategereje imodoka, inyuma y'aho hari ahantu hatubatse hameze neza hasa icyatsi/hari mu ibara ry'icyatsi, inyuma yaho hari ama etage ndetse n'ibiti byiza.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu, harimo inyuguti ya "y" byerekana ko uwo umuhanda hari undi ushamikiyeho ureba hepfo, n'icyo kino cyapa kigaragaza.

Indabyo, ibiti, n'imikindo ndetse hari icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu icuramye, ndetse hariho n'umuntu wumugabo uri gutambuka, byerekana yuko aho hantu abantu bagomba gutambuka, ndetse harimo iri kugenda, hari imikindo ku muhanda, amatara yo ku muhanda, ndetse n'amazu atandukanye .

Ni icyapa kiri mu ruziga ruciyeho umurongo harimo igare byerekana yuko igare ritemerewe kunyura aho hantu nk'uko tubibona muri iki cyapa ko igare ritemewe.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu gifite ishusho ya mpande eshatu ndetse harimo akantu kigoronzoye kerekana yuko aho hantu harimo ikoni.

Icyapa kiri m'Uruziga rw'umutuku handitseho mirongo itatu bigaragaza ko ari umuvuduko wa mirongo itatu kikaba ari icyapa cyo mu muhanda cyereka ibinyabiziga ko aho hantu hagomba kugenderwa muri uwo muvuduko wa mirongo itatu.

Ibiti ndetse n'amazu menshi meza atuye ahantu bigaragara yuko hari mu miturire kandi mu mudugudu w'icyerekezo, amazu arimo ari mu bwoko bumwe.

Imodoka ebyiri ziri mu merekezo atandukanye akikije inzu, iri mu mabara y'umweru, ifite igisenge cy'umutuku, igeretse, ahantu hasa neza cyane.

Inyubako igeretse iri mu gipangu hariho nimero cumi na zirindwi hariho umukindo hari igiti cy'umwembe ndetse n'ururabo rutukura hirya ya hariho igiti cy'inganzamarumbo ndetse n'inyuma yaho hari ikindi giti nari biri kubasha gukurura ngo menye icyo aricyo ndetse hanitse imyenda imbere inyuma yaho hari n'izindi nyubako harindi nyubako bimeze kimwe.

Mu muhanda harimo imodoka, hariho igipangu gifite ibara ry'icyatsi, hari ahanditseho mitsingi, ndetse hari icyapa cy'umutuku, hari umuhanda w'amabuye ya garaviye, muri garaviye bishatse kuvuga ko ari nk'ahantu abantu bamanuka bataha mu mago yabo.

Ni igipangu gikinguye cyanditseho RO ni, inyubako yanditseho Rose Garden. Ni inzu ya etage, ni etage eshatu, hepfo hari ikigega cy'amazi, hari akazu kariho ibara ry'ubururu, ndetse n'imbere harimo imodoka iparitse muri icyo gipangu,...

Mu muhanda harimo umukobwa wambaye ingofero n'ikanzu y’igiteyenge afite akajerekani, ari kuri telefone, imbere hari icyapa, hepfo hari umukindo ndetse hari inzu nziza, ifite igipangu gisa neza, hari ipoto ry'amashanyarazi, ndetse ari guturuka mu muhanda w'igitaka, yinjira muri kaburimbo.

Imodoka y'umweru iparitse imbere y'ahantu hacururizwa ibiryo, imbuto, ndetse hakaba hari n'ahantu bacururiza imiti, ni inyubako ubona ko ari ndende ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Ni ahantu hari imitaka yo mu bwoko butandukanye, umutaka w'icyatsi n'umutuku, ndetse hari abantu benshi bagiye batandukanye biragaragara ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi harimado ziparitse ndetse n'abantu bari mu bintu bitandukanye bamwe baje kugura abandi bakaba bari kugurisha.

Umudugudu w'icyerekezo urimo amazu ajyanye n'igihe tugezemo cyo muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu, aho abaturarwanda bakwiriye kuba bari ahantu heza nk'ahangaha, hari amazu yabugenewe ameze neza abaturage bagomba kuba barimo, atateza impanuka, aha hantu hari imiturire nk'uko turi kubibona.

Icyapa cyanditseho repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, ni uburyo bwo kubaka ibikorwaremezo muri Kigali. Hakaba hariho ikirango cy'agaseke ndetse n'igirango cy'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ni umuhanda kuruhande rwayo hari inyubako ndende, hariho icyapa cya Sikolo, hari n'ikindi cyapa ntari kubona neza ndetse ni inyubako ndende ishobora kuba ikorerwamo ibintu byinshi cyane, imbere y'aho hari ibiti, hari ubusitani busa icyatsi bwiza cyane.

Abantu batanu bicaye harimo umumotari wambaye akagofero ndetse ari n'umwana n'umugore wambaye ikanzu y'igitenge hirya hari abagabo babiri, hari n'igare, ku rundi ruhande hari inzu irimo ibikoresho by'ubwubatsi by'ibyuma ndetse abantu bari mu muryango ufunguye bisa nkaho hakorerwa ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibipangu birimo ibiti by'ama avoka imikindo ndetse n'ibindi biti bijye bitandukanye ndetse n'indabo zo ku ngo z'abantu nta bantu bari mu muhanda, mu muhanda gusa ndetse hiryayo hari umuhanda w'igitaka nk'abantu baba banyuramo bataha kubera turi kubona ko hano ari ahantu abantu batuye.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Hari urugo rurimo inzu nziza, irimo igipangu kirimo umukindo, harimo n'ikindi giti cy'icyatsi cyiza, hari igipangu cyubatse neza, ndetse imbere yaho hari umuhanda bigaragara y'uko ari ahantu hasanzwe hanyura ama modoka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Inyubako igeretse ifite amadirishya manini isize amarangi y'icyatsi ndetse n'umuhondo inzugi zayo zisize amarangi y'umukara isa nk'aho adeshwa.

Kampani iherereye mu mujyi wa Kigali ikoresha ikoranabuhanga yubatse neza iteye amarangi y'umweru, ifite ibirahuri bisa neza mu mbuga yazo hari pasiparume n'indabyo zindi nziza cyane hepfo hari ibiti birebire.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zitandukanye harimo abantu bari kugenda bari mu muhanda w'igitaka hirya y'umuhanda hari ibiti birebire, ndetse hari na moto modoka itwaye imizigo.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amagare atanu n'iyo ndi kubona, hakabamo moto nyinshi zitandukanye zimwe ziza izindi zisubirayo, hari imodoka irikuza, imbere yayo hari igare ndetse hari ibiti hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Umuhanda urimo moto itwaye umumotari n'umugenzi hari icyapa abantu bicaraho bategereje imodoka ndetse hari ikamyo itwaye ipine hejuru iri kugenda.

Mu muhanda hari imodoka ebyiri ikamyo ndetse n'ivatiri ndetse hagati yazo harimo umumotari atwaye umigezi, hirya hari icyapa aho abantu bicaraho bategereje imodoka gisa ubururu, ndetse ku rundi ruhande hariho moto modoka iri mu ibara ry'ubururu.

Mu muhanda urimo moto n'umugenzi uri kugenda n'amaguru, moto n'abandi bantu benshi bari ku rundi ruhande nta modoka zirimo ndetse hari n'ikiraro hejuru.

Mu muhanda umumotari uhetse umugezi, hari igare ritwaye ibintu by'ibiti ndetse hari n'undi muhanda wo kuru rundi ruhande, mo hagati harimo ibyatsi ndetse harimo n'imikindo.

Aha ni umuhanda wo hejuru munsi yaho hari kunyuramo moto ndetse ku rundi ruhande hari umugabo uri kugenda, hari amatara yo ku muhanda, hirya hari ibiti. Inyuma y'izo moto hari amamodoka, zose ziri munsi hejuru nta kinyabiziga kiriho.

Imikindo n’ibindi biti by’icyatsi biri mu muhanda. Hari moto eshatu, ebyiri zitwaye abagenzi, indi iri inyuma ntituri kuyireba neza. Imihanda ibiri itandukanyijwe n’imikindo.

Umuhanda imihanda ibiri umwe uza nundi ugenda ndetse harimo n'ihuriro ryayo hari umubyeyi wikoreye inkangara hari n'umusaza uri kugenda imbere yabo hari undi mubyeyi wambaye umupira w'umuhondo hari abari ku igare babiri bahekanye hari moto itwaye umugenzi hari n'igare rihagaze mu muhanda ,ku muhanda riparitse hari ibiti hari amazu agiye atandukanye .

Moto eshatu ziri kujya munsi y'kiraro ndetse ku rundi ruhande rwaho, hari umuntu uri kugenda n'amaguru yambaye umupira w'umutuku, na we ari kugenda muri icyo kerekezo, moto ziri kugendamo bose bakaba bari kunyura munsi y'ikiraro, hejuru yacyo hari undi muhanda.

Umuhanda urimo imodoka iri mu ibara ry'umukara, icanye amatara y'inyuma iri kugenda ndetse hari ibiti ku ruhande, hari imikindo, hari n'ibindi biti byiza by'icyatsi n'umuhanda ubona ko ari munini urimo imodoka imwe gusa.

Ikiraro cyo hejuru gifite amatara hejuru ndetse munsi hari iyo moto ziri kugenda hari n'abantu bari kugenda n'amaguru, bari kugenda mu byerekezo bitandukanye ndikubona imodoka y'umutuku ndetse na moto eshatu zishoreranye ziz icyerekezo kimwe.

Mu muhanda n'ijoro hari imodoka ziri gutambuka, amatara ya n'ijoro ari kwaka, hariho ibiti n'indabo ziri ku muhanda ndetse hari n'abantu bari gutambuka, hari moto, imodoka.

Imodoka y'umukara yacanye amatara y'inyuma, ku ruhande rwayo hari umumotari uhetse umugenzi ndetse imbere yabo hari abanyeshuri bavuye kwiga, hari n'umupolisi.

Umuhanda urimo moto imwe hakaba harimo n'umuntu uri kugenda harimo ikirenge gusa ndetse mu muhanda wisanzuye harimo amatara yo ku mihanda ndetse harimo ibiti byiza byo kumuhanda nabyo bisa icyatsi cyane.

Inzu iri ku isoko igurishwa nziza iri kimironko i Kigali isa umweru ikaba ikikijwe n'amakaro n'ibirahuri ikaba ifite amapave ashashe hasi n'indabyo ziteye ku ruhande.